Abantu dukunda inyubako zitandukanye akenshi inyubako igizwe n'amabara menshi irakundwa cyane uzasanga hari izifite amabara y'umutuku avanze n'umukara ndetse n'umweru uko niko ba nyirazo baba babihisemo.

Imyenda y'amakipe ariyo izwi nka majezi, imanitse kuri hanga n'amakote mu iduka ryo mu Rwanda harimo: maniyu, cerisi, rivapuru n'inkweto hejuru yabyo.

Imodoka nshya ya toyota corola ikoresha umuriro ndetse na esatse, yakozwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Ikoresha umuriro ndetse n'amashanyarazi, iri kugurishwa ku giciro kingana na miliyoni mirongo itatu na zirindwi. Iparitse muri garagje, garaje ikikijwe n'ibiti by'inturusu.

Mu masaha y'igicamunsi ibinyabiziga bine bitwara abagenzi byakozwe na compani ikora imodoka izwi nka Hyundai, bitondetse ku murongo byose bifite ibara ry'umweru ndetse n'ikirangantego volcano, hejuru ku kirahure cy'imbere. Abantu babiri bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'apfuka umunwa bahagaze begereyeje ibinyabiziga, inyuma kuruhande rw'iburyo hari kontineri y'ibara ry'umutuku, ifite ikirangantego cya Hyundai.

Imodoka yo mu bwoko bwa suzuki irimo imbere umuntu wicaye uyitwaye, iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni cumi n'umunani, iri muri parikingi.

Iduka ricururizwamo amata inyange iba yatunganyije yaba afunze ndetse n'ay'icyuma kiba kiri gufasha gukomeza akonje ndetse n'imitobe y'imbuto zitandukanye hamwe n'amazi aba yatunganyijwe n'uruganda rw'inyange.

Abazungu batatu batonze umurongo, harimo igitsina gore cyambaye ipantaro ndetse n'umupira w'ubururu bwijimye, inyuma ye hari undi muzungukazi wambaye imyenda y'icyatsi migufiya.

Uruganiriro rurimo intebe zigiye zifite amabara atandukanye ariyo abiri iryijimye n'umutuku wijimye, harimo n'amatara n'amadirishya n'inzugi n'akameza.

Abakozi b'ikigo gishinzwe itumanaho mtn kiri kugaragaza uburyo bwa momopeyi, bwa kode n'umuphotographe n'undi mu mumama uri muri farumasi n'ibyapa na kalendari.

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho aricyo emutiyeni, bagera muri batandatu bari gutanga serivisi ku baturage bagiye batandukanye, mu nzu igizwe na camera ndetse n'amatara atandukanye n'inkingi z'umweru.

Inyubako ya etage y'amagorofa abiri; iririmo igipangu gifite amabara atatu iry'umutuku, umweru, ndetse n'ubururu, gikorutiriwe n'amatafari hariho n'itara n'ururabo.